Udukinisho tw'abana turi ahantu turi mu mabara kandi agiye atandukanye, umuhondo ndetse n'umutuku, hakaba hari n'utundi tuntu tumeze nk'udukombe ndetse n'utumeze nk'uduhiko.

Abantu babiri umwe mukuru n'undi w'umwana bakaba bari mu byicungo by'abana, inyuma yabo hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya y'icyatsi ndetse hari na sima.

Inyubako y'ishuri ifite umuryango w'umukara, amadirishya y'umukara, mo imbere hakaba harimo umunyeshuri, hanze hakaba hari sima y'umukara, haparitse n'igare rishaje cyane, hakaba kandi hariho ibishushanyo by'isaha ku rukuta.

Igishushanyo cy'abarimu babiri bambaye imyenda, bari kumwe n'abana barifashe neza bari kuririmba indirimbo y'Igihugu kuko bari iruhande rw'idarap ry'Igihugu.

Uducungo tw'abana turi mu mabara agiye atandukanye, harimo udusa ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'iroza, tukaba turambitse hasi hirya hari n'akandi kantu kameze nk'akamareti.

Igipipa cy'amazi cyakoreshejwe mu buryo bwa kandagira ukarabe kiri ahantu mu kibuga, hirya yacyo hari inyubako nyinshi zigezweho zifite amabati agiye atandukanye ay'umukara, ay'umutuku ndetse n'ay'ubururu.

Inzu iriho ibara ry'umuhondo hasi hakaba hasize sima yamenaguritse, kuri iyo nzu hariho ibishushanyo by'umukara by'imbwa ndetse n'injangwe.

Inyubako y'ishuri iriho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye bisize mu irangi ry'umuhondo, hirya gato hari abanyeshuri bari gutambuka bambaye imyenda y'ishuri, hasi hari sima yagiye iroboka.

Igishushanyo cy'abantu bafite amatwi areba hejuru, iruhande rwabo hateretse ikibindi, bakaba bafite amashoka, amasaka ndetse n'umuhoro, nk'abagiye kurwana ahantu runaka.

Imbwa yambaye akantu gasa ubururu kari mu ishusho y'umutima, ku ruhande hakaba hari utundi dukinisho twinshi tw'abana, ikaba iri ahantu hari ibintu by'ibibaho ihagazeho.

Udukinisho tw'abana turimo: akamoto, imodoka ndetse n'utundi turi mu mabara agiye atandukanye: akameze nk'umuntu ndetse n'akameze nk'urwego, turi mu mabara y'umutuku, umuhondo, icyatsi n'ibindi.

Igishushanyo k'imodoka iri mu bwoko bw'izitwara imizigo, iri mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, iruhande rwayo hakaba hateretse rozwari ndetse n'indobo ipfundikiye isa umuhondo.

Ikigo cy'amashuri kiriho abana bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu barimo barakina, iruhande rwaho hari ipoto y'insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mu baturage.

Igishushanyo kiriho umuntu wambaye imyenda ijya gusa ubururu ndetse akaba ahagaze ku mugezi w'amazi hari imbuto zitandukanye, iruhande rwe hari umuntu wambaye imyenda y'umweru.

Ikaramu ifite amabara y'umweru, umukara ariko yandika umutuku, ikaba irambitse hasi iri kumwe n'ayandi makaramu menshi, bikaba byifashishwa mu kwandika ibintu binyuranye.

Umuhungu wambaye agapira k'umutuku n'umweru, isaha, ikabutura ndetse n'inkweto zifunze n'amasogisi, ari kumwe n'umukobwa ufite urukwavu mu ntoki rw'umweru, hirya hakaba izindi nkwavu.

Umunyeshuri wambaye ishati y'umweru n'ikanzu y'ubururu, akaba ahagaze mu muryango wi'ishuri rifite sima y'umukara, iruhande rwabo hakaba hari ibishushanyo by'ingorofani, umwiko, biri mu mabara atandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, birimo nk'irati z'ubwoko butandukanye, kompa yifashishwa mu gushushanya, bikaba birambitse ku meza kugira ngo bize gukoreshwa.

Inyubako y'ishuri ifite igisenge cy'ubururu gisakaje amabati, irange ry'umuhondo, amadirishya y'ubururu n'inzugi z'ubururu, imbere hakaba hateye ibyatsi ndetse hirya hakaba hagaragara ikindi giti cyasumbye ishuri.

Ibikoresho by'abanyeshuri byifashishwa mu gihe hari kwigwa isomo ry'imibare, bikaba birimo irate, kompa, n'ikaramu y'igiti ndetse na goma isiba. Byose bikaba biba mu gakoresho bita matematiko seti.

Umugore wambaye igitambaro cy'umutuku, isengeri, ukenyeye igitenge, yambaye na bote, akaba ahagaze ari kubwira abantu, bicaye biganjemo abagore n'abagabo bafite amasuka.

Inzu yubatse neza n'imbere ikaba irimo amakaro, ifite amarangi y'umweru harimo ibishushanyo byinshi bike bitandukanye ndetse n'ameza n'ibindi bintu birambitse hasi.

Inzu imeze nk'ishuri ry'abana b'inshuke, ikaba irimo udutebe dutoya ndetse n'utumeza, biri mu mabara menshi ndetse harimo n'udushushanyo tumeze nk'utw'inzu, bigaragara ko ariho abana bigira.

Inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati, ikaba ifite umuzenguruko w'irange ry'umuhondo, ifite imiryango n'amadirishya by'ubururu ndetse n'akajerekani kari imbere yayo.

Igishushanyo cy'abana, kiriho inzu imeze nk'ishuri ndetse n'igiti giteye, hirya gato hari indi nyubako nziza igezweho isize irangi rijya kuba umweru, n'amadirishya meza y'ibirahuri.

Udukinisho tw'abana, turi mu mabara menshi agiye atandukanye, harimo amarinete ndetse n'utuntu tw'uturahure, urushinge ndetse n'utuntu tumeze nk'utujyamo amaraso, twose tukaba turambitse ahantu hamwe.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, ikaba ifite inzugi z'icyatsi ndetse n'amadirishya, hirya hakaba hari kandagira ukarabe ndetse n'amazi, imbere yayo hakaba hasa igitaka.

Ibikoresho byinshi byo kwandika byifashishwa mu gushushanya harimo amakaramu, umukasi ndetse n'ibisiba. Byose biri mu mabara agiye anyuranye bikaba birambitse ku kantu gafite ibara ry'umweru.

Ibishushanyo by'abana biri ku gikuta, harimo akameze nk'ikiganza kari mu mabara y'umutuku n'umuhondo n'icyatsi. Ruguru hakaba hari utundi tumeze nk'utubaro, dushushanyijeho ibishushanyo by'abantu.

Udukinisho tw'abana turi mu mabara agiye atandukanye, harimo umugabo wambaye ingofero ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, inyuma ye hariyo agakarito gasa umutuku ndetse n'akamodoka kagendeshwa.

Igikoresho kifashishwa n'abanyeshuri mu gutwara ibikoresho by'ishuri nk'amakaramu, penso ndetse n'ibindi byose byifashishwa, hakaba gifite ibara ry'umukara ndetse cyandikishijwemo amagambo y'umweru.

Abantu benshi biganjemo abagabo bambaye, ingofero z'umweru n'amajire, bakaba bose barifite ibintu bari gukora bakurikiye umuntu umwe, uri kureba ku gikuta cy'inzu.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe harimo abambaye impuzankano z'umweru abandi bambaye impuzankano z'umutuku ziriho amagambo yandikishije umweru mu mugongo, hakaba ari n'undi mugabo uhagaze hagati yabo.

Abantu benshi bari mu nzu yubakishije amatafari ahiye, bakaba bafite igitabo bameze nk'abayobozi bari kwitegereza amacupa apakiye mu dukarito ndetse no mu tuntu tumeze nk'amakureti.

Abantu benshi bambaye imyenda y'amajire, umwe akaba yambaye ingofero y'umweru ndetse yitegereza ahantu ku cyapa. Abandi na bo baramukurikiye bareba ibyo ababwira.

Abantu benshi b'abanyeshuri bari muri sare nini, hakaba hari umutaka n'abandi bantu b'abayobozi, bicaye ku ruhande hari ameza, batanga ikiganiro bakigeza kuri abo banyeshuri.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'umuhondo yandikishijeho amagambo y'umukara, bakaba bari kwifotoza biganjemo abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'amapantaro.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kake, imbere yabo hakaba hari umudamu wambaye ikote ry'ubururu afite urupapuro mu ntoki, inyuma yabo hari amashuri asakaje amabati y'ubururu.

Abantu bambaye amataburiya bafite kompiyuta mu ntoki, bari kwifotoza imbere y'inyubako, ifite igisenge cy'amabati ndetse iteye n'irange ry'umuhondo, imbere yabo hari ubusitani.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri ya kake ndetse n'amashati y'amaboko magufi, bakaba bari kugenda begera ikigega cya kandagira ukarabe kugira ngo bakarabe intoki zabo.

Abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe zabo ahantu mu biti, imbere hakaba hahagaze umugabo wambaye amadarubindi ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, afite urupapuro mu ntoki ndetse na mikoro.

Abayobozi benshi binjiye mu nyubako isize irange ry'umuhondo, ifite inzugi n'amadirishya by'ubururu mo imbere hakaba harimo sima, batambuka bafite ibitabo mu ntoki bari gusura izo nyubako.

Abantu benshi biganjemo abambaye amashati y'umweru bakaba bicaye imbere y'ameza ariho udupapuro ndetse na bibiliya, iruhande rwabo hakaba hari abandi bagabo babiri batambaye iyo myenda.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse kikaba cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi ari mu ibara ry'umuhondo yanditseho ngo tuseme UNCEF Groupe Scolaire Rukomo.

Inyubako ifite igisenge cy'amabati y'ubururu ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye, hariho ibitembo bimanura amazi mu butaka. Hakaba hahagaze umugabo wambaye ijire, ishati y'umutuku n'ipantaro.

Abantu bicaye mu cyumba harimo umwe wambaye agapfukamunwa, ikoti ry'umukara n'ikanzu, akaba afite ikaramu y'ubururu ari kwandika mu gitabo. Iruhande rwabo hagiye hateretse icupa ry'amazi.

Icyumba kirimo udutebe tw'ubururu twandikishijeho amagambo y'umweru, inzu ikaba irimo amakaro, ku ruhande hakaba hari igikuta, gisize irangi ry'umuhondo n'amadirishya y'icyatsi.

Ikintu k'kibumbano gifite amasubyo atatu gicuritse ku ishashi mu nzu iteye irangi ry'umuhondo. Hansi hariho sima iteyeho kandi icyo kintu kimeze nk'igitaka.

Inzu irimo amakaro ikaba irimo ikayi ndetse n'urupapuro rw'umweru rurambitse mu kantu kameze nk'ibase k'ubururu, urwo rupapuro rukaba rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ikibaho gisa umuhondo cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ikindi gishushanyo kiriho kiri mu mabara y'umutuku, gifite imisatsi n'amaso n'amazuru, hirya hakaba hari n'ikaramu y'umukara.

Udutebe tw'ubururu twandikishijeho amagambo y'umweru, tukaba duteretse mu nzu irimo amakaro, ikikijwe n'inkuta ebyiri zifite irangi ry'umuhondo. Inyuma yazo haragaragara ikigega.

Icyumba kirimo amafoto y'abantu menshi, hakaba hari ameza ariho udukoresho dukeya ndetse n'intebe y'ubururu, hasi hakaba hari sima y'umukara ndetse n'ikindi gishushanyo kigaragara ku ruhande.

Abantu benshi bahuriye mu nzu nziza ifite amarange y'umuhondo, hakaba harimo abicaye ndetse n'undi umwe uhagaze, ku meza hakaba hateretseho amazi ndetse n'ajenda.

Umuntu uri mu nzu wambaye umupira w'amaguru magufi n'ipantaro y'umukara, imbere ye hakaba hateretse imashini nyinshi zikoreshwa mu gusohora impapuro ziri ku meza, hasi hakaba hari sima n'umuzenguruko w'umukara.

Inyubako irimo amakaro, isize amarange y'umuhondo ndetse n'icyapa, hakaba hicayemo abanyeshuri, bicaye ku ntebe z'icyatsi, ku meza hariho amakaye.

Igishushanyo cy'umutuku kiriho ibiti by'umukara ndetse n'inyamaswa y'umukara ifite amahembe ndetse n'amaguru maremare. Hirya hari iyindi nyamaswa itagaragara neza, ireba ku ruhande.

Akabaho gasize irangi ry'umukara, ryandikishijeho amagambo y'umuhondo handitseho ngo star, kakaba karambitse hasi kuri sima, hagaragara n'igikuta cyegereye idirishya.

Abantu bicaye mu ntebe zigezweho bafite impapuro ndetse n'amakaramu ku meza, iruhande rwabo hakaba hari telefoni, hirya gato hari igiti kinini cyane ndetse n'urugo rwubakishije amabuye.

Abanyeshuri benshi bambaye basojeje amasomo yabo, bakaba bambaye imyenda miremire y'imikara, bateye ingofero hejuru bishimye cyane. Iruhande rwabo hari igiseke kizengurukije igitambaro cy'umweru.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'umukara bishimye cyane, bakaba batereye ingofero zabo hejuru mukirere, bose bari guseka bazamuye amaguru inkweto zabo zigaragara abandi basimbutse.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba, hakaba harimo abari imbere ya kompiyuta bakoze udutsinda duto duto, harimo n'undi mukobwa uhagaze ufite imisatsi y'umukara, wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara.

Ikibumbano cyashwanyaguritse mu maso, gifite amaso yonobotsemo n'amazuru aciyemo imirongo, ku ijosi na ho cyaracitse ku ruhande hakaba hari andi mabumba yifashishwa mu kubikora.

Urubyiruko rwinshi rurimo abakobwa ndetse n'abasore bari kugenda batambuka ku nyubako nziza ifite irangi ry'umuhondo, harimo umwe ufite ikaye n'ikaramu hejuru hakanditseho icyapa kinini cyanditseho ngo UR.